Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, kuko adufasha mu kumesa, akadufasha mu gukaraba ndetse no guteka, buri muturage wese akangurirwa kubona amazi kugira ngo yite ku buzima bwe.

Amavuriro atandukanye atanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage ndetse aho ikigo cyishyize hamwe kugira ngo gihereze abaturage ubuvuzi bwizewe kandi bufite ireme, mu gufasha buri muturage wese no kwita ku burenganzira bwe.

Ababyeyi ndetse n'abana babo muri gahunda yo kwita ku burenganzira bw'umwana, aho bahabwa serivisi z'ubuvuzi n'indyo zuzuye kuri buri mwana wese akitabwaho.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Serivisi yo gutanga imipompo mu bice bitandukanye bikoreshwa n'amavomo rusange ku baturage, ni ingirakamaro kuko bifasha abaturage mu kubona amazi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bakoresha serivisi y'ubuvuzi ndetse bakanayigaho umunsi ku munsi. Aho bahura n'abayobozi kugira ngo baganire ku kibazo cyateza ubuvuzi imbere, ndetse banafatate imyanzuro igiye itandukanye ku kibazo cy'uburwayi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage guhera ku kigero cy'imyaka mitoya kuzamuka ndetse ayo mazi agomba kwitabwaho, agahabwa abaturage mu buryo bwose kugira ngo bayabone hafi.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye ndetse bambaye n'iyenda y'ubuvuzi, aho bahura n'abayobozi mu kugaragaza ko bishimiye serivisi y'ubuvuzi butangwa mu bigo bitandukanye bya nderabuzima bya Mayange ndetse n'ibindi.

Umuturage ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo ndetse anakoresha uburyo butangaje bwo kubaka ibiti n'ububido agakora kandagira ukarabe agahanga isuku mu rugo rwe.

Icyumba gihuriyemo ababyeyi batandukanye ndetse bashyize hamwe mu buryo bwo guteza imbere ubuvuzi mu buryo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu muri rusange ndetse bagahabwa n'inama.

Ibitaro ndetse n'abaturage batandukanye bahuriye impande y'ikinyabiziga gikoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, mu buryo bwihuse kugira ngo umuntu ugize ikibazo ahabwe ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Serivisi z'ubuvuzi ndetse izo serivisi zigahuriramo abaturage batandukanye n'abayobozi kugira ngo baganire ku bibazo by'uburwayi buhura n'abaturage aho umuturage ashobora kugera agahabwa serivisi.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere muri serivisi yo guteza ubuvuzi imbere ku baturage batandukanye, nta n'umwe usigaye inyuma bose bakagira ubuzima bwiza muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi ihabwa abaturage batandukanye kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere, babiteho bahabwe n'ubusuzumyi, bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bahabwe n'ibisubizo by'ubuvuzi.

Umugabo n'umugore bagaragaza ibyishimo ndetse n'amagambo inyuma yabo agaragaza ko ari ubwisungane mu gushyira hamwe mu guteza uburenganzira bw'umwana imbere harimo ubuvuzi n'uburere.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye kugira ngo bageze ibibazo bitandukanye ku bayobozi, bahabwe serivisi y'ubuvuzi ndetse n'ubufasha mu guteza imbere serivisi y'ubuvuzi ku baturage, umunsi ku munsi ku buzima bw'umuturage.

Sale ihuriyemo abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi babo, muri gahunda yo kwiga kuri serivisi y'ubuvuzi ndetse no guteza ubuvuzi imbere muri rusange ku baturage kugira ngo imiti ihabwe abarwayi muri rusange.

Icyumba gihuriyemo ababyeyi ndetse n'abana babo mu kugaragaza ubwisungane, ndetse n'ubwishingizi muri serivisi y'ubuvuzi, kuko umwana yitabwaho n'uburenganzira bwe muri rusange.

Ihuriro ry'ababyeyi batandukanye ndetse n'abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya kugira ngo bahabwe uburere muri serivisi yo kwita ku burenganzira bw'umwana, bagahabwa n'indyo yuzuye ku munsi wo kwitabwaho.

Serivisi y'ubuvuzi ihabwa abaturage batandukanye; aho ababyeyi bazana n'abana babo mu mavuriro kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere; babafashe muri serivisi y'ubuvuzi ndetse banitabweho bahabwa imiti.

Umwana w'umunyeshuri ndetse ugaragaza ibyishimo mu gukoresha amazi y'isuku, atangwa mu bigo by'amashuri, kugira ngo akarabe intoki abe afite isuku yirinde n'indwara zandurira mu matembabuzi.

Uburenganzira bw'umwana ni ibintu biba bigomba kwitabwaho, ndetse n'abaturage muri rusange, aho umwana anywa amazi meza y'isuku, ndetse akitabwaho kugira ngo ubuzima bwe bube bumeze neza.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye kugira ngo baganire ku kibazo cy'ubuvuzi, aho hafatwa imyanzuro itandukanye ndetse n'abaturage bagatanga ibitekerezo, uko imiti yagatanzwe n'ubuvuzi bwose muri rusange.

Amavomo rusange ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, kugira ngo babone amazi hafi yabo kandi amazi afite isuku, kugira ngo atabatera indwara zigiye zitandukanye, bakishimira iyo serivisi kuko ibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ishyirahamwe ry'abaturage muri serivisi z'ubuvuzi, ndetse insanganyamatsiko ikaba ivuga ngo hehe n'ingwingire, twite ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse dufate inkingo ku gihe.

Abaturage barakangurirwa mu guteza ubuvuzi imbere ndetse banakora isuku ihagije mu ntoki z'abo kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi umuturage ku muturage.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye. Aho bagaragaza ko gutanga serivisi y'ubuvuzi ari ingirakamaro. Bagahugurana kugira ngo, bite ku ireme rifite ubuvuzi bwihariye, ndetse batange na serivisi z'ubuvuzi, umunsi ku munsi ku baturage.

Ihuriro ry'abana batandukanye ndetse bari ku kigo cy'amashuri bagaragaza ko serivisi yo kubona amazi kuri buri mwana wese ari ingirakamaro, aho bayakoresha kugira ngo bakarabe intoki zabo kandi bagakoresha amazi afite isuku.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, aho guhera ku kigero cy'imyaka mike kuzamuka buri muntu wese aba akeneye amazi mu mubiri wiwe, ndetse akayafata afite isuku ndetse n'igikoresho ayakoreshamo kikaba gifite isuku.

Ihuriro ry'abaturage ndetse n'urubyiruko mu guteza uburenganzira bw'umwana imbere ndetse no kwita ku buzima bwiwe umunsi ku munsi, agahabwa ubuvuzi, uburere ndetse n'ibindi bituma amera neza.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere mu guharanira kwita ku buvuzi rusange, harimo n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, aho buri muturage asabwa kwisuzumisha kugira ngo turondure kanseri y'inkondo y'umura muri rusange.

Ibyumba by'amavuriro aho abaturage bose batandukanye bashobora kugana kugira bahure n'abaganga b'inzobere bahabwe imiti binyujijwe mu bikoresho byabugenewe harimo inshinge ndetse n'ibindi by'isuku harimo nk'udupfukamunwa.

Ibigo by'amashuri abanza byose bigomba kuba bifite ahantu h'isuku harimo amazi ameze neza kugira ngo bikoreshwe nka kandagira ukarabe, aho umwana agomba gusukura intoki ziwe kugira ngo yirinde indwara.

Serivisi y'ubuvuzi ihabwa abana batoya ndetse baba bari kumwe n'ababyeyi babo ndetse bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu guhabwa ubuvuzi bakoresheje ibikoresho by'isuku, harimo nk'amaga.

Agacupa gatoya gakoreshwa mu kubika umuti, uwo muti ugakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo baherereza serivisi y'ubuvuzi abarwayi kandi hagakoreshwa inshinge zabukenewe kugira ngo serivisi itangwe neza.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bagaragaza ko amazi ari ingirakamaro. Ivomo rusange ndetse rikwiye kuba rifite amazi umunsi ku munsi kugira ngo buri muturage abone amazi hafi.

Abaturage batandukanye bagaragaza ko kugira amazi cyangwa se ivomero rusange rihuriraho abaturage, kugira ngo babone amazi hafi ari ingirakamaro kandi bakwiye kubyitaho kugira ngo babone amazi afite isuku.

Icyumba cy'ishyirahamwe ndetse gihuriramo abaturage rusange kugira ngo baganire ku kibazo cya serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi umunsi ku munsi.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi aho abarwayi batandukanye bahura n'abaganga b'inzobere bafite ibikoresho by'isuku birimo udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Ihuriro ry'abaturage ndetse n'abaganga babo b'inzobere muri serivisi yo gushyira hamwe ndetse no kwerekana ko bishimiye serivisi z'ubuvuzi zitangwa ku baturage, bagaragaza ibyishimo byinshi cyane.

Ibyumba by'amavuriro aho abaturage batandukanye bafite ibibazo by'uburwayi bahurira, kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere bitabweho, ndetse banahabwe imiti ishobora gufasha mu kuvura indwara n'ibibazo bafite.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, aho buri muntu wese aba akeneye amazi umunsi ku munsi kugira ngo yite ku buzima bwiwe, amavomo rusange akoreshwa n'abaturage ni ingirakamaro kuko atanga amazi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi babo kugira ngo baherezwe uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara, harimo kwambara udupfukamunwa, ama ga ndetse n'ibikoresho by'isuku.

Serivisi y'ubuvuzi ihabwa abaturage batandukanye ndetse abo baturage bakaza bagana ivuriro kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere mu guhabwa ibinini bizafasha kuvura indwara bafite.

Icyumba cy'ubuvuzi gitangirwamo serivisi n'abaganga b'inzobere ku baturage rusange hakoreshwa ama ga y'isuku ndetse n'inshinge zabugenewe kugira ngo umuturage afate umuti binyuze mu nzira inoze.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bari kumwe n'abana babo, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira babahereze serivisi y'ubuvuzi, cyane cyane hitawe ku bana batoya; bakitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bapimwe banasuzumwe ku kibazo cy'uburwayi baba bafite.

Sale ihuriyemo abaturage batandukanye kugira ngo baganire bafate n'imyanzuro igiye itandukanye kuri serivisi y'ubuvuzi, aho biga ku kibazo cyateza imbere ubuvuzi muri rusange ku baturage ndetse n'imyanzuro igiye itandukanye, yakorerwa ku baturage kugira ngo bitabweho buri munsi.

Ihuriro ry'abaturage ndetse n'abayobozi muri rusange, mu buryo bw'uburezi ndetse n'ubuvuzi muri rusange, aho icyorezo cya virusi mbi cyitabwaho ndetse kigafatirwa n'imyanzuro.

Ibyumba by'ivuriro ndetse bihuriramo abaturage batandukanye bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi, banakangurirwa gufata imiti muri rusange kugira bite ku buzima bwabo.

Abaturage batandukanye mu kugaragaza ko amazi ari ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage wese, aho ivomo rusange rishyikirizwa abaturage mu bice bitandukanye kugira ngo babone amazi y'isuku hafi.

Umuturage ugaragaza ko serivisi yo guhabwa amavomo rusange ku baturage ari ingirakamaro, kugira ngo babone amazi meza bajya bakoresha mu ngo zabo kandi amazi afite isuku muri rusange kugira ngo birinde indwara.

Icyumba cy'ihuriro ry'abaturage rusange ndetse n'abavuzi muri rusange, aho bahabwa serivisi z'ubuvuzi n'imiti muri rusange ikiza indwara zabo kugira bitabweho umunsi ku munsi.

Ikigo cyishyize hamwe mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku bana ndetse no gutanga uburere ku bana bagiye batandukanye nko guhabwa serivisi ndetse no kwita ku burenganzira bw'umwana umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abaganga b'inzobere ndetse no gushyira hamwe kugira bite ku baturage batanga serivisi y'ubuvuzi, aho bagaragaza isuku ,bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ibikoresho by'isuku.

Abaganga batandukanye b'inzobere bagaragaza ibyishimo aho bahura n'abayobozi mu buryo bwo guteza ubuvuzi imbere ndetse no guhereza abaturage batandukanye serivisi y'ubuvuzi kugira ngo bitabweho umunsi ku munsi.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abaturage bose batandukanye bashobora kugana kugira bahure n'abaganga b'inzobere babahereza serivisi z'ubuvuzi ku bibazo by'indwara baba bafite.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye ndetse bagaragaza ibyishimo muri serivisi y'ubuvuzi berekana imiti itangwa ku barwayi ndetse no kwirinda, Hakoreshejwe isuku nka ga.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere. Bagaragaza ko ari ubwisungane mu guteza ubuvuzi imbere; kuko ubuvuzi ku muturage ari ingirakamaro kandi bukwiye kwitabwaho umunsi ku munsi.

Ababyeyi ndetse n'abaganga b'inzobere aho bazana abana babo kugirango bapimwe banahabwe serivisi y'ubuvuzi, kugirango umwana akure yarafashe inkingo zuzuye kandi ameze neza.

Serivisi y'ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage wese. Ndetse aho abaganga bazobereyemo mu gutanga serivisi y'ubuvuzi. Bita ku baturage bambaye ibikoresho by'isuku harimo nk'ama ga ndetse n'ubupfukamunwa.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage guhera ku myaka mito kugeza ku myaka myinshi, aho amavomo rusange atanga amazi y'isuku kugira ngo abaturage babone amazi.

Ihuriro ry'abana batandukanye ndetse n'abarezi babo muri serivisi yo guteza umwana imbere ndetse no kuzuza uburenganzira bw'umwana muri rusange akitabwaho ndetse agahabwa n'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa mu masosiyete aho abaturage ndetse n'abana babo bagomba gufata imiti, kugira ngo imiti ibafashe mu kuvura indwara zitandukanye harimo inzoka n'izindi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abana babo mu buryo bwa serivise y'ubuvuzi, aho inzu ishinzwe gutanga ubuvuzi ihuriyemo abaganga b'inzobere batanga serivise y'ubuvuzi ku baturage.

Serivisi y'ubuvuzi bw'abana aho ababyeyi batandukanye bashobora kuzana abana babo mu mavuriro, kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere, babafashe mu buryo bw'ubuvuzi ndetse hakoreshejwe n'ibikoresho by'isuku.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, aho buri muntu wese akenera amazi kuva ku kigero cy'imyaka yo hasi kuzamuka, ndetse akayakoresha mu gukaraba intoki kugira ngo abe afite n'isuku ihagije ku mubiri.

Umwana ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo aho ari ahantu hatangirwa amazi kuri buri muturage wese bita ivomo rusange kuko amazi ari ingirakamaro ku buzima bw'abaturage umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi ndetse n'ibyumba by'amavuriro, bikoreshwa n'abaganga b'inzobere bambaye ibikoresho by'isuku, harimo nk'amaga ndetse n'ubupfukamunwa kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi kugira ngo batange ubuvuzi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo mu buryo bwo kujya inama ndetse no guteza ubuvuzi rusange imbere ku buryo bugaragarira buri wese.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abana bo mu bigo bitandukanye ndetse agakoreshwa cyane cyane mu bigo by'amashuri, afite isuku kugira ngo abana bakore isuku mu ntoki zabo birinde indwara.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi mu kugaragaza ubwisungane ndetse no gushyira hamwe kugira ngo bateze serivisi y'ubuvuzi imbere kugira ngo ikiremwamuntu cyitabweho.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese aba agomba guhabwa serivisi y'ubuvuzi kugira ngo abe ameze neza umunsi ku munsi ndetse agahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo agirwe inama.

Ubuzima bw'umuturage ni ingirakamaro, ndetse abaturage bagaragaza ko amazi ari ingirakamaro ku buzima bwabo, aho bahabwa amavomo rusange kugira ngo bajye babona amazi hafi yabo abashe kwita ku ngo zabo.

Umuturage ndetse uhetse n'umwana we, ugaragaza ko amazi ari ingirakamaro mu buryo bwose. Kuko amufasha mu gukora ibintu byose buri muturage agomba kubona amazi hafi kuyivomo rusange bimworoheye.

Serivisi z'ubuvuzi zitangwa ku baturage batandukanye, aho bahura n'abaganga b'inzobere bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo basuzume banamenye neza uko umuturage ameze muri rusange.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, bifite n'amabara y'ubururu ndetse bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi z'ubuvuzi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi ndetse banitabweho mu gihe gikwiriye.

Serivisi y'abaturage kugira ngo babone amazi, ni ingirakamaro kuko bigaragaza ko umuturage yitaweho kuko amazi ayakoresha mu buryo bwose butandukanye, kubona amavomo rusange ni byiza.

Serivisi y'ubuvuzi ni ingirakamaro, aho ababyeyi bafite abana bashobora kugana amavuriro kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere bahabwe serivisi ku bana babo ndetse banafatirwe inkingo.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku babyeyi bafite abana batoya, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bohereze serivisi y'ubuvuzi ku mwana mutoya cyane, ahabwe inkingo ndetse avurwe n'izindi ndwara zose zishobora gufata umwana ukivuka.

Amavomo rusange atangwa ku baturage ni ingirakamaro kuko abaturage babona amazi hafi yabo kandi amazi afite isuku bakayakoresha mu buryo butandukanye ndetse no mu ngo zabo kugira ngo abafashe.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse amavomero rusange akoreshwa mu gutanga amazi ku baturage afatwa neza kugira ngo atange amazi y'isuku afasha abaturage.

Ikinyabiziga gikora nk'ishami ry'ubuvuzi kugira ngo kibike imiti kandi igomba guhabwa abarwayi muri rusange kugira ngo bitabweho n'indwara zabo zivurwe banasuzumwe n'abaganga.

Umubyeyi ndetse uri kumwe n'abana biwe babiri, aho agaragaza ko kwita ku buzima bw'umwana ari ingirakamaro, amutekera indyo ikwiriye kandi amwitaho umunsi ku munsi.

Inyubako itanga serivisi y'ubuvuzi cyane cyane ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo bahabwe serivisi n'imiti ikwiriye buri murwayi wese ufite ikibazo cyo mu mutwe, igakoreshwa n'abaganga b'inzobere.

Serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage bafite ikibazo cyo mu mutwe ni ingirakamaro. Aho bahabwa ubuvuzi n'abaganga b'inzobere, bagakomeza kugana ibitaro kugira ngo bakomeze kwitabwaho n'umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye muri serivisi yo kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo bagirwe inama ndetse banahabwe imiti ikwiriye, buri muntu wese ufite ikibazo nk'icyo yitabweho.

Inyubako z'ubuvuzi zikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi ndetse hagakoreshwa inyubako zifite isuku, zujuje n'ubuziranenge mu gutanga ubuvuzi.

Serivisi ihabwa abaturage ndetse ikaba ari ubuvuzi bujyanye n'ibibazo byo mu mutwe, aho baganirizwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo babone uburyo bahabwa imiti.

Ni byiza ko buri mwana wese ahabwa uburenganzira. Iri ni ihuriro ry'abana batandukanye mu kugaragaza serivisi y'ubumuga bafite bwo mu mutwe kandi bakaba bakeneye imiti muri rusange.

Abagabo batandukanye ndetse bari mu zabukuru, bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo, bakaba bambaye imyenda isa, bagaragaza umuco gakondo ndetse, no kwita ku rubyiruko muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi ndetse n'ubukangurambaga ku baturage, aho abaganga b'inzobere bahura n'abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, kugira ngo bahabwe imiti ndetse banagirwe inama zo kwita ku buzima.

Buri muturage wese wumva afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se undi wese ashobora kubona undi ushobora kuba afite icyo kibazo agomba kumwegereza ibitaro kugira ngo ahabwe serivise y'ubuvuzi afate n'imiti.

Abaturage bafite ibibazo byo mu mutwe bagomba guhabwa ubuvuzi ndetse ubonye umuntu ufite icyo kibazo, akamushyikiriza ibitaro kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse.

Ubukangurambaga ndetse na serivisi y'ubuvuzi hagati mu baturage ku kwita ku muntu ufite ibibazo byo mu mutwe ndetse no guhabwa imiti muri rusange kugira ngo abe ameze neza umunsi k'umunsi.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse akaba avuga uburyo abaturage bagomba gukangurirana mu kwiteza imbere birukana indwara zandurira mu mwanda, ndetse bakora isuku.

Abaturage bose bafite ibibazo bitandukanye harimo uburwayi bwo mu mutwe, barasabwa kwegera amavuriro ari hafi y'abo kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi bitabweho ndetse banafate imiti.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye harimo cyane cyane urubyiruko, muri gahunda yo kwishyira hamwe mu guteza imbere ubuvuzi bw'abaturage bafite ikibazo cyo mu mutwe ndetse no gutanga serivisi y'ubuvuzi ku bantu bafite icyo kibazo.

Buri muturage wese ufite uburwayi bwo mu mutwe agomba kwitabwaho ndetse akitabwaho n'abaganga bafite ubuzobere kugira ngo batange imiti igendanye n'ikibazo buri murwayi wese afite.

Ihuriro ry'abana batandukanye ndetse biga mu kigo cy'amashuri abanza aho bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo no kumanika akaboko mu buryo bwo guteza ubuvuzi imbere ndetse no guharanira ubuvuzi muri rusange.

Umuturage wambaye umwambaro ufite isuku nkeya, ndetse akaba ari ikibazo cyo mu mutwe ku baturage bagiye batandukanye bagomba kwitabwaho kugira ngo bahabwe imiti igabanya uburwayi bafite.

Serivisi y'ubuvuzi ni ingirakamaro aho abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe bagomba kugana amavuriro kugira bahabwe serivisi y'ubuvuzi n'imiti ikwiriye ikibazo umuntu aba afite muri rusange.

Buri muturage wese ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se undi wese ushobora kubona umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo agomba guhabwa serivisi y'ubuvuzi ndetse agafata n'imiti ishobora gukiza icyo kibazo afite kuko ari ikibazo gikira.

Buri muturage wese ufite uburwayi bwo mu mutwe, arakangurirwa kwiteza imbere, aho ashobora kugana amavuriro atandukanye kugira ngo ahabwe umuti, ushobora kumufasha ku kibazo afite cy'uburwayi.

Umubyeyi ugaragaza ikibazo cy'ubwigunge, aho bifata nk'indwara yo mu mutwe kandi buri muturage wese ufite ikibazo nk'iki arakangurirwa kwegera ivuriro rimwegereye kugira ngo ahabwe imiti muri rusange.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse abo baturage bakagaragaza ibyishimo mu guhabwa serivise zinoze zo kwita ku buzima bw'umuturage, hagenerewe mu kuganirizwa ndetse no kwita ku buzima bwe.

Umuturage wishimiye serivisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage batandukanye, aho bitabwaho hagendewe ku bibazo bitandukanye cyane cyane abafite ibibazo byo mu mutwe, bagahabwa imiti ndetse igabanya ubukana.

Icyumba gihuriyemo abaturage rusange ndetse n'abaganga b'inzobere, bagaragaza ubumwe no kwishyira hamwe, guteza serivisi y'ubuvuzi imbere cyane cyane abaturage bafite ikibazo cyo mu mutwe bagahabwa imiti ndetse bakanayitabwaho umunsi ku munsi.

Umugabo ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo akaba afite igitambaro cy'umuhondo mu rutugu ndetse n'inkoni yakoreshwaga muri gakondo, bigaragaza mu gushyigikira umuco gakondo wa kinyarwanda.

Umwana wambaye iniforume ndetse uri no mu kigero cy'imyaka itandatu kumanuka, agaragaza ubwisungane mu baturage mu guteza uburenganzira bw'umwana imbere ahabwa uburere ndetse n'uburezi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse abo baturage bagakoresha ubwisungane mu gukoresha serivisi y'ubuvuzi bwo mu mutwe, bakagirana inama ndetse bagafata n'inama zituruka ku babishinzwe.

Serivisi y'ubukangurambaga kuri buri muturage wese ndetse na buri muturage wese gushyigikirana, ku kwita ku buzima bwiwe hagendewe gufata ubuvuzi rusange buhabwa buri muturage wese akita ku buzima bwe.

Icyumba gihuriramo abarwayi bafite ibibazo by'amenyo ndetse bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babahereze serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, bakabitaho hakoreshejwe ibikoresho by'isuku.

Buri muturage wese arakangurirwa kwita ku menyo yiwe ndetse akayakorera isuku umunsi ku munsi, kugira yirinde indwara zandurira mu menyo harimo nk'ifumbi, agakura ibiryo hagati y'amenyo akoresheje indodo.

Ibyumba bitandukanye by'amavuriro, aho serivisi z'ubuvuzi zitangirwa. Bikaba birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora gukoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo batange serivisi ifite ireme ku muturage.

Ubuvuzi butangwa ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, bugatangwa n'abaganga b'inzobere, aho bagusuzuma, bagatanga n'imiti ihagije kuri ubwo burwayi ndetse ukitabwaho muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo aho abaturage batandukanye bafite ibibazo by'amenyo bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi ndetse hagakoreshwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bisuzumwa.

Ibyumba by'amavuriro ndetse ibyo byumba bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira baherereza serivisi y'ubuvuzi, abaturage ndetse hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora gutanga ubuvuzi.

Ubuvuzi bw'amenyo ku baturage, aho abaganga b'inzobere bahura n'abarwayi kugira babahereze serivisi y'ubuvuzi, bagakoresha ibikoresho byabugenewe ndetse n'amaga y'isuku kugira birinde indwara muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo. Aho abaturage batandukanye bagana amavuriro hafi yabo, kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, bagahura n'abaganga b'inzobere, kugira ngo babasuzume ibibazo bafite bubahereze n'imiti ikwiriye ibyo bibazo.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, aho abaturage batandukanye ku kigero cy'imyaka runaka, bashobora kugana abaganga b'inzobere, kugira ngo babafashe mu buvuzi bw'amenyo, bakoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse n'imiti ikwiriye.

Urudodo rutangwa nka serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, rugafasha umuturage kwita ku menyo ye ayakura ibiryo hagati ndetse akanayakoresha isuku akoresheje icyo gikoresho.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro kugira bitange serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo. Abaganga b'inzobere bahura n'abaturage rusange kugira babahe serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe by'inzobere.

Ubuvuzi butangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahereze abana cyangwa se undi muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi, cyane cyane ubugendanye n'amenyo kugira ngo bahabwe serivisi yo kwitabwaho kuko amenyo yandura kandi akarwara n'indwara mbi.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, aho umuturage wese ufite ikibazo cy'amenyo ashobora kugana ivuriro kugirango ahure n'abaganga b'inzobere bamuhereze serivisi y'ubuvuzi ku kibazo afite.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo aho hatangwa ibikoresho bitandukanye ku baturage. Harimo indodo zishobora gufasha umuturage wese, kugira ngo akure ibiryo hagati y'amenyo yirinde n'indwara muri rusange.

Ubuvuzi bw'amenyo atandukanye aho abaturage bahabwa serivisi y'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere, hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye bifasha umuturage kuvura amenyo yiwe mu buryo butandukanye.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage bagiye batandukanye ndetse igatangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo abaturage bafite ibibazo by'amenyo bahabwe imiti ndetse banitabweho umunsi ku munsi.

Ibyumba bitandukanye bikoreshwa mu mavuriro ndetse ibyo byumba bikaba birimo intebe zifite isuku n'ahandi imiti ishobora kubikwa muri rusange kandi hafite isuku kugira ngo bikoreshwe mu isuzuma ry'abaturage.

Ibyumba by'amavuriro, cyane cyane ubuvuzi bw'amenyo buba bufite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gusuzuma kubungabunga ndetse no kwita ku murwayi ufite ikibazo.

Kwita ku menyo n'ingirakamaro, kuko biyarinda indwara, harimo nk'ifumbi. Aho umuturage wese akoresha urudodo kugira ngo akuremo ibiryo biri hagati y'amenyo, yite ku menyo.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage bagiye batandukanye ndetse ubwo buvuzi bugatangwa n'abaganga b'inzobere, bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo batange imiti ifite ireme ku baturage kandi izabafasha.

Icyumba cy'ubuvuzi muri rusange ndetse gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira batange ubuvuzi bufite ireme ku baturage, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Kwita ku menyo ni ingirakamaro kuko amenyo ashobora kwandura indwara zitandukanye harimo ifumbi kuyahereza isuku ukoresheje amazi meza y'isuku ni ingirakamaro umunsi ku munsi kuko biyarinda indwara.

Serivisi y'ubuvuzi, igatangwa ku baturage bafite ibibazo by'amenyo, ndetse igakorerwa isuzumwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo umurwayi wese ufite ikibazo ahabwe imiti ikwiriye.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo butangwa mu bigo by'amashuri aho abayobozi ndetse n'abaganga b'inzobere begera abanyeshuri batandukanye kugira ngo babahereze serivisi y'ubuvuzi ku bana bafite ibibazo by'uburwayi bw'amenyo.

Umuturage ugaragaza mu ntoki ze urudodo rutangwa mu buvuzi bw'amenyo ndetse bugakoreshwa mu gutanga isuku inoze hagati y'amenyo, aho buri muntu wese ubukoresheje aba ameze neza mu kanwa.

Ikigo cy'abana ndetse cyane cyane amashuri abanza, bamanitse umuti w'amenyo ukoreshwa na buri muntu wese kugira ngo asukure mu kanwa ke, abe afite amenyo afite isuku kandi abyitaho umunsi ku munsi.

Gusukura amenyo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko birinda indwara amenyo zigiye zitandukanye harimo nko kubora, gucikagurika ndetse n'ibindinhagati y'ayo, yitabwaho hakoresheje indodo zabugenewe.

Serivisi y'ubuvuzi ndetse iyo serivisi igatangirwa mu byumba bitandukanye biri mu bitaro ndetse ibyo byumba bikaba bifite, ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira batange serivisi y'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo ndetse aho abana batandukanye bahurira n'abaganga b'inzobere kugira ngo bitabweho bahabwa imiti y'amenyo ndetse bakanasuzuma amenyo y'abo.

Ubuvuzi butangwa ku bana batandukanye ndetse bakitabwaho bagendeye ku buvuzi bw'amenyo aho hakoreshwa ama ga y'isuku n'ibindi bikoresho byabugenewe kugira ngo umuntu ahabwe serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Igikoresho cy'ubuvuzi gikoreshwa mu mavuriro ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kikaba ari ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaganga b'ikoranabuhanga.

Ibyumba byo mu bitaro ndetse bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku buzima bw'abaturage, birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu gutanga serivisi y'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo ndetse ibifashwamo n'igikoresho cy'urudodo gikoreshwa mu ntoki ebyiri, kugira ngo gikure ibiryo hagati y'amenyo, byirinda indwara zitandukanye harimo nk'ifumbi.

Ibyumba bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo ku bana ndetse abo bana bakitabwaho n'abaganga b'inzobere, hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye kugira ngo umwana ahabwe serivisi y'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo aho itangwa ku baturage ndetse bagahabwa ibikoresho bikoreshwa nk'ubudodo kugira ngo busukure imyanda iri hagati y'amenyo birinde n'indwara muri rusange.

Abana batandukanye bafite uburoso bagaragaza ko bishimiye serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, aho buri mwana wese ahabwa uburoso kugira ngo ajye abukoresha mu gusukura amenyo akoresheje n'umuti wabugenewe w'ubuvuzi.

Abaturage mu kwitanaho, aho uruta undi yitabwaho kugira ngo ubuzima bwe bube buhagaze neza umunsi ku munsi ndetse agahabwa imiti mu gihe bikwiriye, umunsi ku munsi.

Ibyumba by'amavuriro aho abasheshe akanguhe bashobora kugana kugira bahabwe serivisi z'ubuvuzi bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babiteho babakoresha siporo mu buryo butandukanye kugira ngo bakire indwara.

Icyumba cy'ubuvuzi gitangirwamo serivisi kugira ngo umuturage wese cyane cyane abari mu basheshe akangohe bahabwe serivisi y'ubuvuzi kuko imyaka yabo aba ari myinshi ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi kugira babe bameze neza.

Ihuriro ry'ababyeyi batandukanye ndetse b'igitsina gore, aho baganirizwa ku myitwarire ya buri muturage ndetse bakungurana n'ibitekerezo muri rusange bakiga ku buzima bwabo.

Abaturage muri serivisi yo kwita ku bantu bafite imyaka iri mu kigero cyo hejuru bagahabwa serivisi y'ubuvuzi, umunsi ku munsi kandi bakitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza.

Serivisi y'ubuvuzi iherezwa abaturage, cyane cyane abasheshe akanguhe aho bahura n'abaganga b'inzobere bakaganirizwa uburyo bagomba kwitabwaho ndetse banashimangira umuco gakondo muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi ku bantu bose bafite imyaka iri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu kuzamuka ndetse bagahabwa ubufasha n'imiti bukwiriye n'abaganga b'inzobere kugira bitabweho umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse umuturage akangurirwa kwita ku buzima bwe umunsi ku munsi, cyane cyane abasheshe akanguhe bagahabwa serivisi y'ubuvuzi n'imiti kugira bitabweho.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye higanjemo abasheshe akanguhe bagaragaza mu gufatwa neza k'umuturage, aho abafite imyaka yo mu zabukuru bahabwa serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Serevisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage batandukanye, ndetse abo baganga bagaherezwa ubuvuzi bufite ireme kugira babusangize, cyane cyane abafite ikigero cy'imyaka yo hejuru, bite ku barwayi ndetse babahereze n'imiti ikwiriye.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage ndetse cyane cyane igahabwa abasheshe akanguhe, kugira ngo bitabweho bapimwe ndetse banasuzumwe uko umubiri wabo uhagaze kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

Abaturage bose bari mu kigero cy'abasheshe akanguhe ndetse bagomba kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi muri rusange, banahabwa isuku yo gukarabywa ku mubiri.

Serivisi y'ubuvuzi ku baturage, cyane cyane abasheshe akanguhe, bagahabwa serivisi y'ubuvuzi mu kubatembereza kugira ngo baruhure mu mutwe, aho baba bari kumwe n'abaturage batandukanye kugira ngo babiteho.

Abaturage bose bagomba kwitabwaho, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka iri hejuru, kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi bagahura n'abaganga babo b'inzobere, babakoresha siporo mu buryo butandukanye.

Abaturage bafatwa nk'abasheshe akanguhe ndetse bakaba bari mu kigero cy'imyaka myinshi, bahabwa serivisi y'ubuvuzi mu gufata indyo yuzuye, bahabwa serivisi z'ibiganiro mu kwita ku buzima bwabo.

Siporo rusange ku baturage ni ingirakamaro, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bakazikora bakoresha imibiri yabo mu buryo butandukanye bagorora amaboko, barambura amaguru ndetse banirukanka muri rusange kugira ngo babe bameze neza, umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru. Bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babasuzume ibibazo by'indwara bafite ndetse babahereze n'imiti ikwiriye ikibazo bafite kugira ngo babahereze serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Umuturage ni ingirakamaro ndetse abagomba kwitabwaho umunsi ku munsi. Abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru bagahabwa serivisi y'amahuriro kugira ngo batezanye imbere mu buryo bw'umuco ndetse no kwishyira hamwe, guteza ubumwe imbere muri serivisi y'igihugu.

Abaturage bagomba kwitabwaho cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bagahura n'abana babo muri rusange kugira ngo babafashe muri serivisi yo kwitabwaho, babaruhura mu mutwe ndetse n'ibindi.

Abaturage cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka ya zabukuru, bagomba kwitabwaho n'urugero rw'imyaka itandukanye; kugira ngo babafashe muri serivisi y'ubuvuzi bwabo bwo mu mutwe bugiye butandukanye, banaruhuke neza.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bakita ku mubiri wabo bawukoresha siporo zitandukanye, harimo guterura ibyuma bitandukanye, kwinanura, gusimbuka umugozi, kwirukanka ndetse n'ibindi muri rusange, kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Ubuvuzi bwo kwita ku bashesha akanguhe ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage. Aho buri muturage wese uri mu kigero cy'imyaka myinshi agomba kwitabwaho, ndetse agahabwa serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Abaturage bose barasabwa kwita ku buzima bwabo bakora siporo zitandukanye, cyane cyane abafite ibibazo ndetse n'imyaka iri hejuru ya mirongo itandatu kuzamuka, bakitabwaho n'abaganga b'inzobere.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, cyane cyane abasheshe akanguhe bagomba kwitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza, bakitabwaho n'abaganga b'inzobere bakabafasha.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa n'abaganga b'inzobere cyane cyane bakayihereza abaturage bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru cyangwa se abitwa abasheshe akanguhe ndetse bagafata n'imiti iba iri mu macupa kugira bitabweho.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro aho abasheshekanguhe cyane cyane bagomba kwitabwaho, bakora siporo zitandukanye, harimo izo kudunda bakoresheje amaboko kugira ngo bite ku buzima bwabo.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye cyane cyane, abiganjemo imyaka yo ku kigero cyo hejuru, bahura n'abandi b'abaturage bari mu kigero cy'imyaka yo hasi kugira bahabwe serivisi y'ubuvuzi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo n'urubyiruko rwinshi cyane mu kugaragaza ubwisungane mu gutezanya imbere no kungurana ibitekerezo muri rusange.

Buri muntu wese agomba kwita ku buzima bwiwe, kandi akabwitaho afata indyo yuzuye y'isuku, ndetse n'amazi afite isuku, abaturage cyane cyane abasheshe akanguhe bitabwaho umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi ikangurirwa abaturage cyane cyane abiganjemo imyaka iri ku kigero cyo hejuru ndetse mu gukoresha imibiri yabo bakora ingendo kugira ngo bamere neza.

Abaturage bari mu zabukuru ndetse bari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu kuzamuka, bagakoreshwa siporo n'abaganga b'inzobere kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza umunsi ku munsi.

Umuturage wese, uri mu kigero cy'abasheshe akanguhe agomba kwitabwaho, umunsi ku munsi kugira ngo ubuzima bwe bube bumeze neza yirinde imivuduko w'amaraso, ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kumufata.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye kwerekana ko serivisi yo kwita ku muturage uri mu kigero k'imyaka yo hejuru ari ingirakamaro. Ukamufasha mu buryo butandukanye umuruhura mu mutwe, harimo nko gusoma ndetse no gufashanya mu buryo bwo guhana ibitekerezo muri rusange.

Ubuvuzi ku baturage bari mu kigero cy'abasheshakanguhe ndetse bahabwa serivisi n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku buzima bw'umuntu ufite imyaka myinshi ahabwe serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, cyane cyane abasheshe akanguhe bagomba kwitabwaho bagakora siporo ngororamubiri kugira ngo bite ku buzima bwabo, bagafata n'amazi meza y'isuku.

Umugore uhagarariye abisunganye mu guteza imbere mu kwiga uburyo ibidukikije bitanga ingaruka zigiye zitandukanye ku buzima bw'abaturage. Bigomba kwitabwaho cyane.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse agaragaza ko ari ubwisungane bw'imiryango igiye itandukanye mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye, harimo SIDA, igituntu ndetse na malariya ku baturage.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye ndetse n'urubyiruko muri rusange, aho bagaragaza ko kwirinda imibonano mpuzabitsina ukoresheje agakingirizo ari ingirakamaro, kuko birinda indwara, harimo nka Sida.

Rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda. Irinde virusi itera Sida. Ipimishe uyu munsi ndetse ukangurire na buri muturage wese wundi agane serivisi y'ubuvuzi mu gihe afite uburwayi nk'ubwo bwoko.

Icyorezo cya kanseri ni icyorezo kibi cyane kuko cyanduza kandi kikica, umuturage wese akangurirwa kucyirinda ndetse aho afite indwara yacyo akagana ubuvuzi kugira ahabwe imiti yacyo.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse agaragaza ubwisungane bw'abaturage kugira ngo bateze ubuvuzi muri rusange imbere, umuturage abe afite ubuzima bwiza umunsi ku munsi.

Icyumba gihuriyemo abaturage batandukanye kugira ngo batange serivisi z'ubuvuzi, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo baganirizwe mu guteza ubuvuzi bufite ireme ku baturage imbere.

Icyatsi ndetse icyo cyatsi kikaba cyanditsemo amagambo y'umweru, ayo magambo agakoreshwa ku kwita ku baturage ndetse n'ubwisungane bwo gushyira hamwe, kugira umuturage wese abone serivisi y'ubuvuzi mu buryo bworoshye.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, mu buryo bwo kwisungana hamwe mu guteza imbere gahunda y'ubuvuzi muri rusange ndetse no kwita ku buzima bw'umuturage.

Ibiziga bitandukanye bifite amabara adasa ndetse ayo mabara hakaba harimo ubururu, umuhondo n'icyatsi, agakoreshwa mu kwerekana uburyo umuturage agomba kwita ku buzima bwe afata imiti ndetse no kwiyitaho.

Ihuriro ry'abaturage ndetse n'abayobozi muri rusange, muri gahunda yo guteza imbere ubuvuzi muri rusange ku baturage, bagahabwa imiti ifite ubuziranenge n'isuku muri rusange.

Amagambo atandukanye yanditswe mu buryo bw'umukara ndetse n'ubururu, mu kugaragaza serivisi yo guteza buri muturage wese kumenya icyorezo cya kanseri ndetse akakirandura n'imizi yacyo.

Ihuriro ry'abaturage mu kurandura koronavirusi nk'icyorezo kibi, aho umuturage akangurirwa amabwiriza yose yo kugira ngo yirinde icyorezo nko kwambara agapfukamunwa, kwirinda gusuhuzanya ndetse n'ibindi.

Icyumba cy'ubuvuzi gikoreramo abaturage rusange, ndetse n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, ku barwayi b'abaturage ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi.

Icyumba cy'ubuvuzi gikorerwamo n'abaganga b'inzobere ndetse bagakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, bambara ubupfukamunwa ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Umugore ugaragaza ko yishimiye ubwitange bwe mu gukangurira buri muturage wese mu kwiteza imbere aho yirindwa ibyorezo byose biterwa n'imyanda harimo na corona virus.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye harimo cyane cyane urubyiruko muri gahunda yo gutanga uburezi n'uburere hitaweho serivisi y'ubuvuzi ku baturage ndetse no kubitaho bahabwa ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi ku baturage batandukanye aho bahura n'abaganga b'inzobere bagakoresha ibikoresho by'isuku n'ibindi byabugenewe kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi bwuzuye harimo udupfukamunwa ndetse n'ama ga kugira ngo birinde indwara.

Ibara ry'ubururu, iry'umuhondo ndetse n'iry'icyatsi n'amagambo yandikishije umukara, bigaragaza serivisi z'ubwisungane bw'abaturage kugira ngo bateze ubuvuzi imbere ndetse banahane ubuvuzi n'inama zabwo muri rusange.

Ibyumba bikoreshwa mu bitaro ndetse bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, bambaye ibikoresho by'isuku birimo amaga ndetse n'ubupfukamunwa, kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi ndetse icyo cyumba kikaba cyubakanywe isuku imeze neza, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu gusuzuma abarwayi ndetse n'ahantu baruhukira.

Inzu ikoreshwa muri serivisi yo gutanga ubuvuzi ku baturage batandukanye ndetse ikaba irimo imiti ishobora gutangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bitange ubuvuzi muri rusange.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro ndetse bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kuko birimo amakoranabuhanga agomba kwitabwaho, aho umurwayi ashobora kuruhukira ndetse naho imiti ibikwa.

Inyubako y'ubuvuzi yubatswe mu buryo bw'ubugeni ndetse igatangirwamo serivisi y'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere kugira ngo umurwayi wese ufite ikibazo cy'uburwayi ahabwe serivisi y'ubuvuzi kandi yitabweho.

Abaturage batandukanye bambaye amashati y'umweru ndetse bafite n'indabo mu ntoki, bagaragaza serivisi yo kwishimira uburyo bahabwa ubuvuzi muri rusange ndetse no kwita ku nzu z'ubuvuzi.

Intebe zitandukanye ndetse izo ntebe zigahuriramo n'abaganga, bafite ikoranabuhanga kugira bahereze serivisi y'ubuvuzi abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi ndetse banahabwe isuzuma.

Abaturage batandukanye bafite ikibazo cy'uburwayi ndetse bagahabwa serivisi y'ubuvuzi, bagahurira mu nyubako z'ubuvuzi ku buryo baganirizwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku buzima bwabo.

Ibyumba bitandukanye bikoreshwa mu bitaro ndetse bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ndetse bakagira n'amacumbi, aho abarwayi bashobora kuruhukira mu gihe bafite ibibazo.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro ndetse bikaba birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, ku bantu bafite uburwayi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere.

Inyubako zikoreshwa mu buvuzi; ndetse izo nyubako zikaba zirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibyo bikoresho bikitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kuyobora abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, ndetse banabigisha muri rusange.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku baturage, aho abaganga b'inzobere bashobora guhurira n'abarwayi kugira babahereze imiti ishobora kubafasha kugira ngo indwara bafite zoroherwe.

Inyubako zitandukanye z'ubuvuzi, aho abaturage bashobora guhurira n'abaganga babo b'inzobere, kugira ngo baganirizwe ku buryo bwo gufata imiti ndetse banahure baganire uburyo imiti itangwamo.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi babo kugira ngo batezanye imbere mu buryo bwo guhabwa serivisi y'ubuvuzi no gushimangira ireme ryayo muri rusange. Bagahabwa inama zizakomeza kwiteza imbere muri rusange.

Inyubako z'ubuvuzi zikoreshwa mu gutanga serivisi ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi aho bashobora kugana amavuriro bagahabwa imiti ishobora gukemura ibibazo by'uburwayi bafite.

Ibyumba by'amavuriro bikora nk'amacumbi y'abarwayi, aho buri muntu wese ufite ikibazo ashobora kuruhukira kugira ngo akomeze kwitabwaho, ahabwe imiti hafi na hafi akiri kwa muganga.

Ibyumba by'amavuriro birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse ibyo bikoresho bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, bambaye ibikoresho by'isuku, harimo nk'udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Inzu z'ubuvuzi ndetse n'aho imiti muri rusange ibikwa, kugira ngo buri muturage wese ugize ikibazo cy'uburwayi, ashobora kuhagana kugira ngo ahabwe imiti ikwiranye n'uburwayi afite muri rusange.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo aho abaturage batandukanye bafata serivisi y'ubuvuzi, bagahabwa imiti igenewe indwara bafite kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Icyumba gikoreshwa mu bitaro ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kikaba kirimo n'icumbi aho umurwayi ashobora kuruhukira mu gihe arimo arasuzumwa ndetse harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Amahuriro y'abaganga batandukanye mu cyumba cy'ubuvuzi, ndetse icyo cyumba kikaba kirimo imiti y'ikoranabuhanga ndetse iyo miti igafasha kuvura abarwayi, harimo n'abaganga b'inzobere bambaye imyenda y'isuku.

Inzu y'ubuvuzi itangirwamo imiti itandukanye ku baturage ndetse igakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bamenye neza imiti bari guhereza abaturage ko ari iya nyayo kandi ikiza indwara.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bafite ikibazo cy'uburwayi, ku nyubako y'ubuvuzi itangirwamo serivisi n'abaganga b'inzobere, kugira ngo buri muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi ahabwe imiti n'inama.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi muri rusange, aho abaturage bashobora kugana kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere babafashe mu buryo bwo kubahereza ubuvuzi bufite ireme ndetse n'imiti ikwiriye indwara bafite.

Ibyumba by'amavuriro aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa, abaturage rusange kugira ngo babone ubuvuzi bufite ireme mu guhura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu bibazo by'indwara zabo ndetse bahabwe n'imiti ishobora gufasha ibibazo bafite.

Ibyumba bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baturage ndetse bigakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga hifashishijwe abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi z'ubuvuzi ku baturage.

Inyubako ifite ubugeni aho igeretswe inshuro zirenga imwe, ikaba ifite uburyo bwihariye mu gutanga serivisi y'ubuvuzi irimo n'abaganga b'inzobere.

Amashami y'ubuvuzi ndetse nayo akaba afite imiti itandukanye, agakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bahereze imiti abarwayi bafite ibibazo by'uburwayi bitabweho umunsi ku munsi.

Inyubako z'ubuvuzi zikoreshwamo n'abaganga b'inzobere, kugira ngo batange imiti ifite isuku ku barwayi bafite ibibazo, kandi abaturage bitabweho umunsi ku munsi bahabwa imiti muri rusange.

Inyubako z'ubuvuzi zitandukanye cyane cyane zikoreshwa n'ikoranabuhanga kugira ngo zitange ubuvuzi bufite ireme, aho abaganga b'inzobere bakoresha ibyo byuma kugira ngo bavure abaturage batandukanye bafite uburwayi.

Ibyumba bikoreshwa mu bitaro bigiye bitandukanye bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ndetse n'aho imiti igenda ibikwa muri rusange kugira ngo igere ku barwayi bwite.

Inyubako y'abaturage aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa ndetse iyi serivisi igahabwa buri muturage wese wagize ihohoterwa rishingiye ku gitsina, agahabwa ubuvuzi mbere na mbere ndetse agahabwa n'ubutabera muri rusange.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, aho umuganga w'inzobere aba agomba kwita ku murwayi, umunsi ku munsi kugira ngo abe ameze neza, akoresheje n'ibyuma by'ikoranabuhanga mu gupima.

Icyumba cy'ubuvuzi ndetse gikoreshwa n'abaganga b'inzobere aho kirimo ibirahuri mu kubika imiti ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage.

Icyumba cy'ihuriro ry'abaturage bafite uburwayi ndetse abo baturage bakitabwaho n'abaganga b'inzobere. Abaganga b'inzobere bagafasha abo baturage kugira ngo babahereze imiti ndetse bakabicaza n'ahantu hafite isuku.

Ibyumba bitandukanye bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baturage bafite ibibazo bigiye bitandukanye, harimo intebe zishobora kwifashishwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi muri rusange bikoreshejwe n'abaganga b'inzobere.

Ibyumba by'amavuriro aho abaturage bashobora kugana kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi. Harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibitanda byo kuryamaho, kugira ngo umuturage wese abe ameze neza mu gihe ari guhabwa serivisi n'ibyuma by'ikoranabuhanga bigufasha mu gupima, kugira ngo ubuzima bwawe bube bumeze neza.

Inyubako y'ubuvuzi ndetse n'icyapa kigaragaza amagambo avuga ko ari aho abantu bose bigira ubuvuzi kugira ngo bazatange serivisi ku barwayi ndetse bite ku baturage.

Ibyumba by'amavuriro aho amacumbi y'abarwayi aba kandi akaba afite isuku ihagije agakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu guhereza serivisi z'ubuvuzi abaturage.

Inyubako z'ubuvuzi zikoreshwa n'abaganga b'inzobere, aho buri muturage wese ashobora kugana ku kigo gitanga ubuvuzi kugira ngo ahabwe imiti ishobora gukiza uburwayi bwiwe, ndetse agafata imiti ku gihe.

Ubuvuzi rusange bw'abaturage ndetse hagakoreshwa inyubako zitandukanye n'ibyumba by'abaganga kugira ngo hatangwe serivisi y'ubuvuzi ifite isuku, hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga n'ibindi bikoresho by'isuku.

Inyubako z'ubuvuzi zitandukanye, aho abarwayi bashobora kuruhukira kugira ngo bafate imiti yabo ku gihe ndetse bakomeze no guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere babishinzwe.

Ishami ry'ubuvuzi rifite imiti itandukanye ndetse iyo miti igakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bayihereze abarwayi bafite ikibazo cy'uburwayi, kugira ngo bite ku ndwara zabo bafata imiti ikwiriye.

Sale nini y'ubuvuzi rusange. Iyo sale igakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo baheze abaturage bose baje babagana ubuvuzi, bahabwe imiti ndetse n'ahantu heza ho kwicara kugira ngo basuzumwe.

Ibyumba by'amavuriro aho haba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigakoreshwa n'abaturage rusange mu gihe bagannye ayo mavuriro kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi butandukanye harimo kugororwa ingingo hakoreshejwe uburyo butandukanye.

Ibyumba by'amavuriro bifite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse ibyo bikoresho bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira batange serivisi z'ubuvuzi ku baturage bafite indwara zigiye zitandukanye.

Ishami ritanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage ndetse rikaba ririmo abaganga b'inzobere kugira ngo batange imiti ikwiriye ku muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi yitabweho ku ndwara ye.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi. Aho ushobora kugana kugira ngo uhure n'abaganga b'inzobere baguhereze imiti ikwiriye indwara ufite kugira ngo ubashe kwita ku buzima bwawe muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage bose. Ibigo bitandukanye byubatswe kugira ngo bibike imiti ishobora guhereza abarwayi n'ikigo nderabuzima cya Kagasha kiri mu bigo bitanga serivisi y'ubuvuzi.

Icyumba gikoreshwa mu mavuriro ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage batandukanye, abafite indwara zitandukanye bagahabwa imiti inoze.

Ishami ry'ubuvuzi ndetse ritanga serivisi mu buryo bwa kivuzi, rigakoreshwa n'abaganga babyize bafite ubuzobere mu gutanga imiti, ku bantu bafite uburwayi butandukanye.

Inzu z'ababyeyi zitandukanye ndetse zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, izo nzu zikaba zikoreshwa n'abayobozi batandukanye kugira ngo zite ku kubungabunga ireme ry'ubuzima muri rusange.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro ndetse bigafatwa nk'amacumbi y'abarwayi ahabwa buri muntu wese ufite ikibazo, kugira ngo agume ariko kwa muganga ahabwe imiti ikwiriye kandi ifite isuku.

Icyumba kirimo intebe z'isuku, ndetse izo ntebe zigahuriramo n'abaganga bafite ubuzobere, mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, ku baturage batandukanye baje babagana bafite ibibazo by'uburwayi ku mibiri.

Ibitaro bya Kabgayi bihuriramo abaturage rusange bo muri uwo murenge kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi, kandi bahure n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe imiti ikwiriye indwara.

Ibyumba by'amavuriro ndetse aho abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi babona amacumbi kugira ngo bakomeze guhabwa serivisi y'ubuvuzi, hakaba hari amasuku atandukanye ndetse n'inzitiramibu kugira ngo bakomeze guhashya indwara y'icyorezo cya malariya muri rusange.

Ibyumba bitandukanye by'amavuriro ndetse bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahereze serivisi buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi ndetse yitabweho afata imiti ku gihe.

Ibyumba byo mu bitaro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere bikaba birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu kubika imiti kugira ngo ibe ifite isuku umunsi ku munsi ihabwa abarwayi.

Inyubako z'ubuvuzi zitangirwamo imiti itandukanye kugira ngo buri muntu wese ufite uburwayi, ashobore kuhagana ahure n'abaganga b'inzobere kugira ngo ahabwe imiti ifite ireme ikize indwara afite.

Inyubako itanga serivisi ku baturage ijyanye n'ubuvuzi aho abaganga b'inzobere baba barimo n'imiti itandukanye kugira ngo ihabwe buri muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi.

Icyumba cy'ubuvuzi aho serivisi itangirwa, umuganga w'inzobere niwe ukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse kugira ngo asuzume umurwayi amuryamishije ku gatanda kabugenewe ndetse akamuvura.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage, hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu bitaro kugira ngo buri muturage wese asuzumwe kandi ahabwe serivisi y'ubuvuzi bukwiriye indwara afite.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'ubugeni, ikaba ifite ibyiciro bitatu ndetse ikaba itanga serivisi y'ubuvuzi kuri buri muturage wese uyigannye kuko irimo abaganga b'inzobere batandukanye.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro ndetse bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, hari ahabikwa imiti kugira ngo ibe ifite isuku.

Ibyumba by'amavuriro aho serivisi z'ubuvuzi zitangirwa, abaturage bagana amavuriro bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe ubuvuzi, bagahabwa n'uburuhukiro aho bashobora kuba baryamye kugira ngo serivisi ikomeze kunozwa neza.

Ibyumba bikoreshwa mu bitaro ndetse bigakoreshwa nkaho abaturage bafite uburwayi butandukanye bashobora gucumbika. Hakaba harimo n'inzitiramibu kugira ngo birinde indwara za malariya.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye ndetse bagaragaza ko bishimiye iterambere ry'ubuvuzi muri rusange. Bambaye imyenda isa ndetse n'ubupfukamunwa kugira birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro ndetse bikaba birimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, ibyo bikoresho bigafashishwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku barwayi.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage ndetse n'abaganga b'inzobere, aho bakoresha ibikoresho bitandukanye bitanga imiti, harimo inshinge n'amaga y'isuku kugira ngo birinde indwara.

Inyubako z'ubuvuzi muri rusange aho abaturage batandukanye bashobora kugana kugira ngo bahabwe serivise z'ubuvuzi hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga n'abaganga b'inzobere n'aho baruhukira kugira ngo bitabweho.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaganga cyane cyane abazobereye muri serivisi zo gutanga imiti ku baturage bahurira kugira ngo bahereze serivisi z'ubuvuzi abaturage bafite uburwayi.

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi ndetse izo nyubako zigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahereze abaturage bafite ibibazo by'uburwayi ubuvuzi n'imiti ibukwiriye. Bagahabwa n'ahantu rusange ho kwicara.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi, ndetse iyo nyubako ikaba ifite ahantu hanini heza, hafite ubusitani bw'icyatsi kugira ngo buri muturage wese wabashe gufata serivisi y'ubuvuzi, abe aruhura no mu mutwe kandi yitabwaho.

Abaturage bagaragaza ko serivisi y'ubuvuzi ari ingirakamaro kandi bayikeneye ari benshi aho bahurira muri sale n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe imiti ndetse n'inama zizabafasha mu kwivuza.

Icyumba cy'ubuvuzi gitangirwamo serivisi n'abaganga b'inzobere ku baturage bagiye batandukanye, aho bahabwa serivisi y'ubuvuzi mu byumba bifite isuku ndetse n'ubukeni butandukanye.

Inyubako y'ikigonderabuzima cya Rwerere, aho buri muturage wese ashobora kugana kugira ahabwe serivisi y'ubuvuzi ndetse yitabweho n'abaganga b'inzobere, afata imiti ku gihe ndetse n'amabwiriza yo kuyikoresha.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse ibyo bigo bikaba ari ibitaro bishobora gufasha buri muturage wese kubona serivisi y'ubuvuzi aho ahura n'abaganga b'inzobere ndetse akabona n'aho aparika ibinyabiziga.

Ibyumba bikoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage ndetse bigakoreshwa mu bitaro bigiye bitandukanye, birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi.

Ibyumba bitandukanye mu mavuriro ndetse bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo babike ibikoresho by'ikoranabuhanga neza, kugira ngo bizabafashe mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage.

Ibyumba by'ubuvuzi bikoreshwa mu bitaro ndetse bifite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu gusuzuma ndetse no gutanga serivisi y'ubuvuzi, bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere umunsi ku munsi.

Inzu y'ababyeyi itangirwamo serivisi y'ubuvuzi aho abaturage batandukanye bafite indwara bashobora kugana kugira bahabwe imiti ishobora gukiza indwara zabo bafite ndetse banahabwe inama.

Ibyumba by'ubuvuzi bukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage batandukanye harimo abafite ibibazo by'imvune aho bashyirwaho amabande atandukanye kugira bitabweho.

Siporo n’ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi, ndetse agakoresha n'amazi meza y'isuku kugira ngo yirinde aho afite ikibazo.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa n'abaganga b'inzobere kugirango bafashe umuturage wahuye n'ikibazo cyo gukomereka ahabwe igipfuko gifite isuku, kugirango aho yakomeretse hagume hameze neza.

Igikoresho gikoreshwa mu buryo bw'ubuvuzi ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kikaba ari ikoranabuhanga mu gutanga ubuvuzi bufite ireme ndetse no kwita ku ndwara ya buri muturage.

Icyumba cy'ivuriro gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'imitsi ndetse no kugororoka kw'amagufwa muri rusange, bigakorwa n'abaganga b'inzobere kugira bahereze umuturage wese ufite ikibazo.

Ikinyabiziga gikoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage batandukanye, ndetse iki kinyabiziga kigakoreshwa mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo cyite ku baturage bahabwe serivisi y'ubuvuzi.

Agakarito karimo ibikoresho bitandukanye ndetse ibyo bikoresho bigakoreshwa nk'imiti ishobora gufasha umuntu mu gihe habayeho ikibazo cyihuse ndetse akita ku mubiri we, harimo n'imikasi ishobora kumufasha n'amabande.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi. Kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira bahereze abaturage serivisi yizewe kandi ifite ireme. Bakagororerwa amagufa ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, aho abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, begera abavuzi b'inzobere kugira bahabwe serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi butangwa ku baturage bafite ibibazo by'amagufa ndetse bugatangwa serivisi n'abaganga b'inzobere kugira bite ku muntu ufite ikibazo, ahabwe masaje ikwiriye.

Ubuzima bw'umuturage bugomba kuba bwitaweho umunsi ku munsi kugira ngo umuntu aba ameze neza, afata imbuto zitandukanye ndetse n'ibyuma byo guterura kugira ngo akore siporo anafata indyo yuzuye.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse agakangurirwa kuyikora umunsi ku munsi, agakoresha amazi meza afite isuku kugira ngo agorore amavi ndetse n'agatambaro k'isuku kugira yihanagura ibyuya.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage wese. Ndetse akangurirwa kuyikora akoresha umubiri we mu buryo butandukanye. Harimo kwirukanka, gusimbuka umugozi, ndetse n'ibindi. Akanywa amazi meza y'isuku kugira ngo amufashe mu buryo butandukanye.

Abaturage bose barimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, barakangurirwa gukoresha amazi y'isuku, kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza umunsi ku munsi bafata amazi y'isuku.

Ibiganza by'umuturage biteruye igikoresho gikoreshwa n'abantu bakora siporo, umunsi ku munsi, kikambarwa kugira ngo kirinde umuntu kuba yagira imvune, kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse kigahabwa n'isuku ihagije.

Ababyeyi ndetse n'abana babo aho bagaragaza ko bishimiye kubona serivisi y'ubuvuzi bagafata imiti muri rusange ndetse no guharanira guteza imbere uburenganzira bw'umwana.

Buri muturage wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi, yambara inkweto zifunze, agafata indyo yuzuye ndetse agaterura n'ibyuma bitandukanye kugira ngo akoreshe umubiri we neza, afate amazi y'isuku, anakoresha ubutambaro bw'isuku.

Ubuvuzi ku muturage wese ufite ikibazo cy'uburibwe, aho ashobora gufata ishashi ndetse agashyiramo amazi akonje agakandisha ahantu afite ikibazo cy'uburibwe kugira ngo yoroherwe kandi yitabweho.

Icyumba cy'ubuvuzi gikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku muntu wagize ibibazo by'imvune mu kaguru ndetse ugatanga serivisi y'ikoranabuhanga yihuse.

Abaturage ndetse batandukanye bagaragaza ko gukora siporo ari ingirakamaro kandi bifasha ubuzima bw'umuntu kuba bumeze neza, bakitwaza amazi meza y'isuku ndetse n'ubuvuzi rusange mu bikapu.

Serivisi y'ubuvuzi, aho ababyeyi n'abana babo bahura n'abaganga b'inzobere, kugira babapime ndetse banabasuzume muri gahunda yo gutanga serivisi y'ubuvuzi, ku bana batoya no kwita ku buzima bw'abana muri rusange.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage umuntu wese agomba kuba akora siporo zihagije ku mubiri we agafata amazi afite isuku kugira ngo yite ku mubiri we ube umeze neza.

Abaturage bose bakangurirwa kwiteza imbere bakora siporo z'uburyo butandukanye, harimo nko kwirukanka ndetse no gusimbuka, bagafata amazi meza y'isuku ndetse bakayafatira no mu gikoresho gifite isuku.

Buri muturage wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi; akita ku buzima bwiwe kuko ari ingirakamaro, aho akora siporo zitandukanye harimo izo kwigorora, akagorora umugongo wiwe ndetse bimufasha kuruhura mu mutwe.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi kugira yite ku buzima bwiwe ndetse agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, mu kwicara yigorora ndetse no gusimbuka umugozi cyangwa akiruka.

Buri muturage wese akangurirwa gukora siporo igihe kinini cyane, kuko siporo ari ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye harimo kwigorora akagorora amaguru, umugongo ndetse n'ibindi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage wese ndetse akwiye gukora siporo umunsi ku munsi kugira ngo abungabunge ubuzima bwe, agakoresha ibikoresho by'isuku ndetse afata n'imiti y'uburwayi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi kugira ngo yite ku buzima bwe, mu gihe yayikoze agakoresha amazi meza y'isuku ndetse akanayabika ahantu hafite isuku kugira amufashe mu koroshya uburyo bw'umubiri wiwe muri rusange.

Igikarito kibitsemo imiti itandukanye ndetse ishobora gukoreshwa mu buvuzi bwihuse. Harimo ituma uruhu rumera neza ndetse n'ibipfuko bitandukanye n'imikasi ishobora kwifashishwa mu kuvura umuntu.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage; umuntu wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi, ndetse agafata n'indyo yuzuye irimo imbuto nk'imineke ndetse n'amaronji kugira ngo amere neza.

Ubuvuzi buherezwa abaturage batandukanye ndetse bakitabwaho n'abaganga b'inzobere aho uwakomeretse ashobora guhabwa igikoresho cy'isuku cy'igipfuko kugira ngo akomeze kubungabunga igikomere yagize anitabweho.

Serivisi y'ubuvuzi ihabwa abaturage batandukanye ndetse bakitabwaho, kugira ngo baherezwe ubuvuzi, cyane cyane abafite ibibazo byo kutagenda, harimo n'imvune n'ibindi bitandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa kwa muganga, kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, cyane cyane abakora siporo.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese akangurirwa kunywa amazi ku kigero cyo hejuru, kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye, akanywa amazi afite isuku, ndetse akanayanywera mu gikoresho gifite isuku.

Ibyumba bikoreshwa mu mavuriro ndetse bikaba birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu buvuzi butangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo umuntu ufite ikibazo abone aho aruhukira.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Buri muntu wese akangurirwa kunywa amazi afite isuku akayabika no mu icupa rifite isuku kugira ngo yirinde indwara z'umwanda.

Buri muturage wese akangurirwa gukorera siporo umubiri wiwe, ndetse agakora siporo z'uburyo butandukanye, harimo kwicara, akagorora umugongo, akarambura amaguru, ndetse n'amaboko akiyitaho muri rusange.

Ibikoresho by'amagare bikoreshwa n'abaturage bakora siporo cyane cyane bakoresha ibiganza, bikaba bifite amabara y'umukara ndetse bikita no ku kurinda isuku ku muturage muri rusange.

Umupira w'amaguru inkweto za siporo ndetse n'akuma gakoreshwa mu mavuriro, kagakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bapime uko umutima w'umuntu umeze mu gihe yakoze siporo kuko umutima uratera cyane.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amagufwa ndetse no kugorora imitsi muri rusange, abagabo babiri bagaragaza ko kugororana ari ingirakamaro ndetse bigomba gukorwa na buri muntu.

Inyubako z'ubuvuzi ndetse zifite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi bunoze aho basuzuma ndetse bakamenya n'indwara umuturage afite.

Umuturage agomba kuba afite ubuzima bwiza kugira ngo abe ameze neza umunsi ku munsi adafite indwara, afata indyo yuzuye harimo n'imbuto akanakora siporo mu buryo bwose.

Siporo ni ingirakamaro, kandi buri mu siporotifu wese akangurirwa gukoresha ibikoresho bitandukanye, bishobora gufasha umuntu mu gihe akora siporo, harimo kunywa amazi meza y'isuku, ndetse no kuyabika ahantu hafite isuku, mu gihe yabize icyuya agakoresha igitambaro cyiza kugira ngo yihanagure ibyuya.

Amabara atandukanye yose yigisha umuturage ku kwita ku buzima bwiwe, aho agomba kwita ku burwayi, agakora siporo ndetse agatezanya imbere na mugenzi we umunsi ku munsi, afata n'imiti ihagije.

Igikapu gifite imyanya itandukanye, aho ushobora kubika ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuvuzi bwihuse, harimo imikasi, amabande ashobora gutangwa ku barwayi bafite ikibazo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gifasha abaturage bose kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi, kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi ku muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi.

Amagambo atandukanye ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'icyatsi, agaragaza siporo umuntu agomba gukora kugira ngo abe ameze neza, harimo guhagarara, gusimbuka, kwicara ndetse no kunama muri rusange.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, umuturage wese agomba kwita ku mubiri we akora siporo zitandukanye, harimo kwigorora ndetse no kugorora amaguru ye muri rusange akamera neza.

Serivisi y'ubuvuzi muri rusange, aho ibyumba bitandukanye bifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ndetse bifite ireme.

Amazi ni ingirakamaro, buri muturage wese akangurirwa kunywa amazi ku kigero gihagije, ndetse amazi yiwe akayanywa afite isuku, akayanywera mu gikombe gifite isuku ndetse akanayabika mu ijage ifite isuku.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage, buri muntu wese akangurirwa gukora siporo akoresha uburyo bwiwe umubiri butandukanye, gukina umupira w'amaguru, iy'amaboko ndetse agafata n'ubuvuzi ku gihe kugira ngo yitabweho.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse umuntu wese akangurirwa gufata amazi ku kigero cyinshi, kuko amazi ari ingirakamaro, akayashyira mu icupa rifite isuku ndetse akanayanywera mu gikoresho cy'isuku.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese aba agomba gukora siporo umunsi ku munsi, akananiza umubiri we kugira ngo amere neza, agakoresha ibyuma bitandukanye byo guterura kugira ngo akomere.

Buri muturage wese arakangurirwa kwita ku buzima bwe ndetse akora siporo zigiye zitandukanye, harimo kwigorora kugira ngo bifashe imitsi gukora neza ndetse n'izindi siporo zitandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira batange ubuvuzi ku baturage batandukanye ndetse icyo gikoresho kikaba gifite ibikoresho bindi bigikoresha kugira ngo gitange serivisi yuzuye.

Uducupa dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo tubikwemo umuti ushobora kugabanya uburibwe ku muntu wese ufite ikibazo cy'uburibwe bukabije, ahantu runaka ku mubiri cyane cyane bikoreshwa n'abantu bakora siporo y'ingororamubiri.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse aba agomba kwita ku buzima bwe akora siporo umunsi ku munsi agafata amazi meza y'isuku ndetse n'ibitambaro by'isuku mu kwihanagura ibyuya.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bagaragaza ko gukora siporo ari ingirakamaro ndetse bifasha umuntu wese kuba ameze neza, agororotse imitsi ndetse bigafasha no kwirukana indwara zitandukanye.

Ubuzima bw'umuturage ni ingirakamaro kugira ngo abwiteho umunsi ku munsi, umuturage akora siporo zigiye zitandukanye, ndetse agafata amazi meza y'isuku, agafata n'indyo yuzuye, harimo n'imbuto z'ubwoko bwose.

Ubuzima bw'umuturage ni ingirakamaro kandi aba agomba kubukoresha mu buryo butandukanye, harimo gukora siporo kugira ngo agorore umubiri we, agorore amagufa n'amaboko, kugira ngo yumve ko ameze neza.

Ibyuma bitandukanye ndetse bikoreshwa n'ikoranabuhanga, aho bikoreshwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane abakora siporo kugira ngo bite ku mibiri yabo bakora siporo zo kwirukanka, bakitabwaho n'abaganga b'inzobere.

Ibyumba, aho imiti ibikwa, ikabikwa mu buryo bwihariye ndetse ikabikwana isuku nyinshi kugira ngo izabashe guhabwa abaturage imeze neza, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere ikanabungwabungwa umunsi ku munsi.

Ibicupa bitandukanye bitangirwamo imiti, ndetse aho imiti ibikwa, n'imikasi, n'amagare y'isuku, n'ibipfuko bitandukanye, n'inshinge zikoreshwa mu buvuzi rusange bw'abaturage.

Icyuma cy'ikoranabuhanga gitanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage, kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bafashe abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi cyane cyane abasiporutifu.

Igikapu kirimo imyanya igi itandukanye ndetse iyo myanya ikabikwamo ibikoresho bitangwa nk'ubuvuzi bufasha muri rusange kandi bwihuse, harimo imikasi y'ibipfuko ndetse n'ibindi.

Icyumba cy'ubuvuzi gikoreshwa n'abaganga b'inzobere, bagakora bambaye amaga kugira ngo bakoreshe isuku ihagije ku gukora ku bikoresho, bikoreshwa kwa muganga kandi ibyo bikoresho bikaba ari ikoranabuhanga bikoreshwa.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Buri muntu wese akangurirwa gukora siporo mu buryo butandukanye harimo kwirukanka, gusunika ibyuma, kubiterura ndetse n'ibindi muri rusange, akita ku buzima bwiwe.

Icyumba cy'ubuvuzi gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kikaba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa zitandukanye kugira ngo umuntu ahabwe serivisi y'ubuvuzi yizewe.

Igikoresho gikoreshwa mu bitaro bitandukanye, ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubufasha ku muntu ugize ibibazo akabona aho ashyikirizwa, kugira ngo yitabweho.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage batandukanye ndetse buri muturage wese akangurirwa gukora siporo ku kigero gihagije, aho akoresha umubiri wiwe mu bintu bitandukanye: yicaye, yigoroye, ahagaze, yirukanka cyangwa se asimbuka umugozi.

Icyumba cy'ubuvuzi ndetse gikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi ku bantu bafite ibibazo by'amagufa ndetse kigakoreshwa mu isuku harimo n'ubupfukamunwa kugira ngo bwirinde indwara.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, ndetse buri muturage wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi, agakoresha amazi meza y'isuku, ndetse akanayakoresha akoresheje igicupa cyo kuyabikamo k'isuku.

Serivisi y'ubuvuzi ihezwa abaturage batandukanye. Cyane cyane abakora siporo z'umubiri harimo nko kwirukanka. Bakegera serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bahabwe ibinini, ndetse n'inshinge zitandukanye zibafasha mu buvuzi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Buri muturage wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi ndetse agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo nko kwinanura, kwirukanka cyangwa se gusimbuka umugozi.

Igikapu gikoreshwa n'abaganga batandukanye cyangwa se abaturage, kugira ngo babikemo ibikoresho by'ubuvuzi bwihuse ndetse aho haba harimo ibipfuko, imikasi n'ubundi buvuzi butangwa byihuse ku muturage.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse buri muntu wese agomba kuyikora umunsi ku munsi kugira ngo abe ameze neza. Agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye harimo kunama, gusimbuka cyangwa se kwirukanka, harimo no gusimbuka umugozi kugira ngo wite ku buzima bwawe muri rusange.

Ubuvuzi bwihuse buhabwa buri muturage wese ugize ikibazo cy'uburibwe ku maguru ndetse agakoresha ishashi irimo amazi akonje kugira ngo yite ku buribwe afite.

Akagare gakoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi kugira ngo umuturage wese ufite ikibazo cy'ubumuga ahabwe aho kuzajya agendera ndetse yitabweho kugira ngo abe ameze neza umunsi ku munsi.

Umukobwa uzamuye ibiganza hejuru bifatanye, ugaragaza uburyo siporo ari ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage wese uyikora, ndetse aba agomba kwita ku buzima bwe yinanura.

Siporo ni ingirakamaro, ariko na none ubuvuzi rusange ku muturage ni ingirakamaro cyane, aho umuntu wese ufite ikibazo cyane cyane nk'abasiporotifu bahabwa ubuvuzi bwihuse kugera bitabweho.

Ubuvuzi muri rusange burimo abaganga b'inzoberi ndetse na mudasobwa kugira ngo bamenye amakuru y'aho ubuvuzi bugeze amaga y'isuku n'ubupfukamunwa kugirango ngo hirindwe indwara zitandukanye.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse abukora siporo akoresheje ibikoresho bitandukanye harimo n'imipira y'amaboko abaganga b'inzobere n'ibyuma bifasha gusuzuma kugira bite ku burwayi bw'umuntu.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa mu mavuriro ndetse tukaba dufite ingano zitangana; harimo n'amabara umutuku n'umukara n'icyatsi tugakoreshwa mu kubika imiti ihabwa abaturage muri rusange kugira ngo biyiteho.

Uducupa dutandukanye ndetse dufite n'amabara adasa tugakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu kubikwamo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage kugira ngo babe babasha guhabwa imiti ishobora kuvura indwara zabo hitaweho imiti gakondo ikorwa mu buki.

Ibibabi ndetse ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti, imiti izakoreshwa guhabwa abaturage bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo bitabweho.

Imiti ibikwa ahantu hafite isuku ndetse hatandukanye, ikaza gukoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gusukura uducupa dutandukanye, kugira ngo bazatubikemo imiti izatangwa.

Ibibabi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ndetse bugakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage. Buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, agahabwa uwo muti abinyujijwe mu baganga b'inzobere babishinzwe.

Umuti gakondo ubikwa mu ducupa tw'umweru ndetse uwo muti ugakoreshwa mu buvuzi butandukanye, aho umuturage wese akoresha uburoso kugira ngo yite ku ndwara afite ndetse n'isume y'isuku.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'ikigina, ndetse akagaragaza uburyo umuturage ashobora guhabwa serivisi y'ubuvuzi, ndetse n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi muri rusange.

Agacupa k'ingano ntoya gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hasi, kagakoreshwa mu kubikwamo amavuta ashobora guhabwa umuntu wese ufite ikibazo cy'uruhu kugira ngo yite ku mubiri we.

Ibicupa bitandukanye by'imiti gakondo, bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bibikwemo imiti izafasha kuvura abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, bahabwe serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu mu mbavu kagakoreshwa mu kubika imiti igiye itandukanye izakoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage muri rusange.

Ibibabi ndetse byera ku biti bigakoreshwa nk'imiti gakondo, n'abaganga b'inzobere kugira ngo yitabweho ikurwemo imiti izafasha kwita ku baturage ndetse bakavurwa indwara zabo muri rusange.

Uducupa dufite amagambo y'icyatsi atwanditseho ndetse tukaba dufite udufuniko tw'umweru, tugakoreshwa mu kubika imiti itangwa ku baturage bafite ibibazo by'uruhu kugira biyiteho.

Ibicupa bitandukanye ndetse ibyo bicupa bikaba bikoreshwa mu kubikwamo imiti gakondo izafasha mu kuvura abaturage. Bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere cyane cyane mu mavuriro kugira ngo abe ari umuti uhabwa abarwayi.

Ibibabi gakondo bikoreshwa n'abaturage kugira ngo babonemo imiti. Bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bizavemo imiti ifasha abaturage kugira ngo babone serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Ibibabi bituruka ku biti ndetse ibyo bibabi bikitabwaho n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bitange serivisi y'imiti. Iyi miti igafasha kuvura umuturage ndetse akamera neza.

Imiti gakondo itandukanye iri mu bwoko budasa ndetse hakaba harimo ibibabi n'imiti y'ibinini ndetse n'ibicupa by'isuku bikoreshwa mu kubika iyo miti kugira ngo ibe ifite isuku.

Ibiti byera ibibabi, ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo. Iyo miti gakondo ikitabwaho kugira ngo ivemo imiti izafasha abarwayi bafite ikibazo cy'uburwayi.

Icupa rito ry'umweru ndetse rigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo habikwemo imiti itandukanye y'ubuvuzi gakondo izakoreshwa kugira ngo ihabwe abaturage bafite indwara.

Amababi atandukanye ndetse aya mababi agakoreshwa mu buvuzi rusange, ku buryo akorwamo imiti gakondo itangwa ku baturage, ndetse iyo miti igafasha kuvura abarwayi.

Ubuvuzi gakondo ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu wese ndetse ibibabi byitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira bakore imiti gakondo izafasha mu kuvura abaturage umunsi ku munsi, bagahabwa serivisi.

Uducupa dutandukanye dufite amabara y'umweru ndetse utwo ducupa tugakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi, ku baturage ndetse babike n'imiti ahantu hafite isuku.

Ibibabi gakondo bikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bitange imiti izafasha kuvura abaturage. Imiti gakondo ikoreshwa n'abaganga b'inzobere ku kwita ku baturage, ndetse no kubungabunga indwara bafite.

Amababi ndetse akoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo akurwemo umuti ufatwa nka gakondo, ugakoreshwa gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage bafite uburwayi butandukanye.

Imiti gakondo ndetse iyo miti gakondo igakorwa mu bibabi, ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, aho bakoramo imiti ihabwa abarwayi ndetse n'abaturage muri rusange bafite ikibazo.

Uducupa dutandukanye dufite n'amabara adasa harimo ubururu n'icyatsi ndetse n'ayandi tugakoreshwa mu kubika imiti gakondo izafashashwa guteza imbere ubuvuzi muri rusange.

Amababi atandukanye akoreshwa nk'imiti gakondo ndetse ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bakoremo imiti ishobora guhabwa abarwayi bafite ibibazo by'indwara zitandukanye bitabweho umunsi ku munsi.

Ikibabi cy'icyatsi ndetse gifite n'uturabo tw'umuhondo, kikaba gikoreshwa nk'imiti gakondo yifashishwa mu gukora imiti ifasha abaturage mu kuvura uburwayi butandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse akaba afashe ku bibabi bitandukanye, agaragaza ko ari imiti gakondo ishobora gukoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo hakurwemo imiti yakoreshwa mu kuvura abarwayi.

Ibibabi by'icyatsi bitandukanye ndetse bikoreshwa nk'imiti gakondo ishobora gufashishwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga imiti ishobora guhabwa abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Amacupa atandukanye ndetse ari no mu ngano zifite ingano itangana afite amabara y'umweru ndetse n'umukara agakoreshwa nk'ububiko bw'imiti rusange ihabwa abarwayi.

Uducupa dufite ingano zigiye zitandukanye ndetse tukaba turimo amabara y'umweru n'umuhondo, tugakoreshwa mu kubika imiti ihabwa abarwayi bafite indwara z'uruhu n'imisatsi muri rusange.

Ibibabi bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo izatangwa ku baturage. Iyo serevisi y'ubuvuzi igakoreshwa umunsi ku munsi kugira ngo umuturage abe afite ubuzima bwiza.

Abaganga b'inzobere bakoresha ibibabi bitandukanye kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi bw'imiti gakondo, iyo miti igahabwa abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo bitabweho umunsi ku munsi baba bameze neza.

Imiti gakondo ibikwa mu ducupa tugiye dutandukanye kugira ngo ibe ifite isuku muri rusange, igakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage mu bice bitandukanye.

Ibibabi bifite ibara ry'umweru byera ku giti gitoya cyane ndetse bigakoreshwa nk'imiti gakondo, itangwa n'abaganga b'inzobere mu kuvura abarwayi batandukanye.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye mu guteza ubuvuzi gakondo imbere, aho bakoresha amacupa atandukanye kugira ngo abikwemo imiti ishobora guhabwa buri muntu wese ushobora kuza gusaba serivisi y'ubuvuzi.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa nk'ububiko bw'imiti ishobora gufasha abarwayi bafite ibibazo by'uruhu kugira ngo babe bameze neza, mu gihe bahuye n'ikibazo nk'icyo bakitabwaho n'abaganga b'inzobere.

Agacupa k'umweru ndetse gafite umufuniko w'umukara, kagakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo kabike umuti, uzakoreshwa guhabwa abarwayi bafite ikibazo, bitabweho umunsi ku munsi.

Uducupa tw'umweru dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira babikire umuti abaturage cyane cyane bafite ikibazo cy'uburwayi, uwo muti akaba ari gakondo ugafasha mu kuvura abaturage cyane cyane abafite uburwayi.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa mu kubika imiti itangwa ku barwayi bafite ibibazo by'uruhu ndetse no kongera umusatsi muri rusange, bigatangwa n'abaganga b'inzobere muri serivisi y'ubuvuzi.

Agacupa k'umweru ndetse kabikwamo imiti y'ibinini bifite ibara ry'umweru, iyo miti igakorwa mu byatsi gakondo by'ibibabi, aho yitabwaho igakurwamo imiti ifasha abaturage mu kwirukana indwara zitandukanye.

Imiti gakondo iri m'ubwoko bw'ibibabi ndetse bifite n'amabara atandukanye harimo umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'icyatsi byitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gukora umuti uzafasha abaturage.

Ikibabi ndetse gifite ubugari bu nini ubwacyo kikaba gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo gikurwemo umuti gakondo uzafasha mu kuvura indwara zitandukanye z'abaturage umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi ndetse ubwo buvuzi bugakorwa mu miti gakondo y'ibibabi, ibibabi bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira bakore imiti itangwa ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Amacupa atandukanye ndetse afite n'amabara adasa, harimo umutuku, umukara n'umuhondo, agakoreshwa mu buganga ndetse akabika imiti itangwa n'abaganga b'inzobere ku barwayi.

Ibibabi bikoreshwa nk'imiti gakondo yitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ikurwemo imiti izafasha abaturage muri serivisi y'ubuvuzi kugira ngo babone uburyo bitabwaho umunsi ku munsi.

Agacupa k'ibara ry'umweru ndetse gafite n'amagambo y'icyatsi gakoreshwa nk'aho babika umuti ufasha abaturage batandukanye bafite indwara ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse ako gacupa kakaba ari ingirakamaro ku bibazo by'umuryango kuko kavura kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'indi miti yose ishobora guteza akanyabugabo imbere muri rusange.

Ibibabi bitandukanye bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo. Iyo miti ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ihabwe abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi bahabwe serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse ako gacupa kagakoreshwa n'abaganga b'inzobere. Kugira ngo kabike imiti gakondo itandukanye, izafasha muri serivisi y'ubuvuzi buzatangwa ku baturage batandukanye.

Uducupa dukoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, aho dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo tubikwemo imiti izahabwa abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye kandi mu buryo bufite isuku.

Ibicupa bitandukanye ndetse ibyo bicupa bikaba bifite amabara y'umuhondo, cyane cyane bigakoreshwa mu kubika imiti itangwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo ubuvuzi bube butanzwe mu buryo bumeze neza.

Amavase arimo amababi atandukanye ndetse ayo mababi agakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gukora imiti gakondo izafasha kuvura abaturage rusange umunsi ku munsi mu mavuriro.

Imiti gakondo ituruka ku biti ndetse ibyo biti bigatanga ibibabi ibibabi bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti izakoreshwa mu kuvura abaturage bagiye batandu mu bibazo bafite by'uburwayi.

Agacupa k'umweru gakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo kabikwemo umuti gakondo uzahereza abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, uwo muti ukaba ukoreshwa n'abaganga b'inzobere ugakurwa mu mbuto zitandukanye harimo nk'amaronji.

Imiti gakondo itangwa ku baturage ndetse abo baturage bagafata imiti ikorwa mu bibabi, ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira bakoremo ibinini bizakoreshwa mu gutanga ku baturage kugira bakire indwara.

Imiti y'ibibabi ndetse iyo miti igakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ikorwemo imiti, hakoreshejwe amasekuru kugira ngo icukumwe, ibemo imiti ishobora gufasha abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Ibibabi bituruka ku biti, ibyo biti bigatanga imiti gakondo y'ibibabi ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ikorwemo imiti imeze neza, ishobora guhabwa abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Igikakarubamba umuti ukorwa n'abaganga b'inzobere, akaba ari gakondo ndetse ugafasha buri muntu wese ufite ikibazo cy'inzoka, icy'uruhu ndetse no gutuma umusatsi w'umuntu umera neza.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi ndetse tukaba dufite amabara y'umuhondo tugakoreshwa mu kubika imiti ikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'imiti ku barwayi.

Ibibabi bitandukanye ndetse ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti izafasha kuvura abaturage ndetse iyo miti gakondo ikabikwa mu ducupa dutandukanye kugira ngo ibe imeze neza.

Uducupa dutandukanye ndetse dufite ibara ry'umweru tugakoreshwa mu kubika imiti itangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye bahabwa serivisi y'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage, hakoreshejwe amacupa agiye atandukanye, ayo macupa agakoreshwa mu kubika imiti gakondo ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bategereze serivisi abantu bafite uburwayi bitabwaho umunsi ku munsi.

Ubucupa bugiye butandukanye bufite n'amabara adasa harimo umweru, umuhondo ndetse bugakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bubikwemo imiti gakondo, itangwa ku baturage rusange bafite ikibazo cy'uburwayi.

Agacupa k'ibara ry'umweru gakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo kabikwemo umuti gakondo, uzahabwa abaturage bafite indwara zitandukanye. Harimo ikibazo cy'uruhu cyangwa se ikibazo cy'umusatsi muri rusange.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ndetse kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo bikaba ingirakamaro cyane cyane ku baturage, aho bahabwa imiti inoze ya gakondo kugira bakize indwara.

Uducupa dutandukanye ndetse dufite n'amabara atameze kimwe, harimo icyatsi, umweru n'umuhondo tugakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo tubikwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage.

Amababi atandukanye ndetse agakoreshwa nk'imiti gakondo, itangwa n'abaganga b'inzobere muri serivisi y'ubuvuzi, aho imbuto ziribwa cyane kugira zifashe umurwayi.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa mu mavuriro ndetse tukaba dufite n'amabara adasa, harimo utw'umweru, utw'umuhondo ndetse n'ubururu, tugakoreshwa mu kubika imiti ihabwa abarwayi mu mavuriro.

Ibibabi bikoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi. Ndetse ibyo bibabi bikitabwaho n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bikurwemo imiti gakondo izafasha mu kuvura abaturage. Ikitabwaho mu mavuriro igahabwa abarwayi.

Ibibabi by'ibiti, ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bakore umuti ushobora gufasha umuturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, yitabweho abone umuti ariko ari umuti gakondo.

Uducupa dukoreshwa mu kubika imiti ishobora gutangwa ku bantu bafite uburwayi bw'uruhu kugira ngo batume umubiri wabo umera neza, igatangwa n'abaganga b'inzobere mu buryo bw'ubuvuzi.